Itsinda ryabantu bari hamwe higanjemo abagore bambaye imipira y'umuhondo baba baje kugira ibyo bumva ko bigaragara n'umupira bambaye uriho ibyo baje gukora nyuma kandi abandi bagabo bose barimo baraseka.

gi hakaba hari udutsinda tw'abantu bicaye ku ma meza bagiye babarimo bagiye bahurira hamwe bitewe n'impamvu twamajije mu namashaka baje mu bukwe kwa baje gushyingura cyangwa n'ibindi bitandukanye

Umugabo wambaye umupira w'ubururu uriho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda akaba afite ikaramu mu ntoki, akaba ari kwandika ku rupapuro, hirya ye kandi hari n'abandi bagabo, imbere yabo hateretse amazi y'inyange akorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bahuriye hamwe baje mu nama, bazengurutse ameza, aho imbere yabo hari ibinyobwa by'amazi, bamwe na bamwe bagiye bafite mudasobwa, bafite impapuro n'amakaramu bari kwandikaho...

Aba ngaba akaba ari abantu bicaye mu bisharagati, bashobora kuba baje mu nama cyangwa mu bindi bigiye bitandukanye, urabona imbere hari umugabo wo mu kindi gihugu, hakaba hari n'Abanyafurika, hano hakaba hari n'uri kunywa amazi y'Inyange.

Aha urubyiruko ruri hamwe bambaye imipira y'ubururu; aho barimo barareba imbere; barimo aho baba bahuriye hano bambayeho n'ibendera ry'igihugu cy'u rwanda; naho imbere yabo bariho baranywa amazi y'inyange akorerwa mu rwanda.

Aho hano hari itsinda ry'abantu bahuriye hamwe, bameze nk'urubyiruko bariho barareba imbere, hari buriya uri kubagezaho icyo aba yabateganyirije, hano hakaba hari umukobwa wambaye amaherena, inyuma hakaba n'undi usutse, hirya ye hakaba n'undi muhungu wambaye ingofero.

Abagore bicaye hamwe nabagore gusa bakuze bakenyeye abambaye ibitenge bari bisukishije abamu na babiri bambaye amadarubindi umwe imbere n'undi w'inyuma.

Aha hari umugabo wirabura, ufite indangururamajwi ye mu ntoki, imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi y'Inyange n'ikirahure, hakaba hari ingofero yo kwambara mu mutwe, hakaba hari na terefoni, imbere kandi hari ahantu handitse izina rye n'icyo akora.

Abagabo bari hamwe baje mu nama nk'uko bigaragara bicaye bazengurutse ameza y'abicaye bari bicaye mu ntebe buri wese n'iye bafite indangururamajwi imbere y'abo bafite n'amazi y'INYANGE.

Inama yari yabereye mu mujyi wa Kigali, imbere hicaye abayobozi bane. Abatumirwa baje kugezwaho ikiganiro, n’abandi bicaye inyuma. Hari imashini ishinzwe gufotora, hari n’umugore ufite murandasi mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bariho bariga ku bintu byatumye baterana, aho bamwe bafite impapuro, telefone ngendanwa, amashakoshi, hari n'umundi mugabo wicaye hirya ufite mudasobwa n'abandi bagenzi bafite za mudasobwa.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bari mu nama bafite ibyari kuganiraho, aho bicaye ku mameza agiye atandukanye, bicaye barebana, imbere hari umuyobozi, baba bafashe bagashyira amashusho ku gikuta bakayasesenguraho...

Uyu nguyu ni umugore wari uhagaze ufite indangururamajwi ye mu ntoki, hakaba hari ibyo yari ari kugeza ku bandi bari bicaye mu gisharagati ndetse n'abandi bari ku ruhande ari kurebamo, akaba yari yambaye amadarubindi y'umukara.

Aba bagabo bari mu nama hakaba hari bambaye ishati y n'uwambaye impuzankan nyira ngo ishinzwe umutekano nyuma kandi hari abandi bagabo barimo ufite mudasobwa imbere ye bakaba bafite n'amazi y'inyange(..)

Akaba ari urubyiruko ruri hamwe, hakaba harimo abambaye imipira y'umuhondo n'ambaye imipira y'ubururu, baba bahuriye hamwe ngo bagira ibyo baganiraho byubaka u Rwanda kandi na bo bibateza imbere kugira ngo ejo habo hazabe heza.

Inama iba yahuje abantu benshi bagiye batandukanye, aho hari umuyobozi wabo wicaye imbere, abandi bicaye iburyo, abandi bicaye ibumoso, imbere yabo hari indangururamajwi kugira ngo baze kuvuga byumvikane, hari n'ibintu bikorwa mu ruganda rw'Inyange harimo amazi n'ibindi biryohera.

Hano hakaba hari abantu bagiye batandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye, hano hakaba hari umugore w'umwirabura ufite ikaramu mu ntoki, akaba yambaye amadarubindi hirya ye hakaba hicaye umugabo na we urimo urareba imbere, hirya ye kandi yicaranye n'undi mugabo w'uruhu rwera n'undi umukurikiye.

Itsinda ry'abagore bicaye bashobora kuba bagiye mu nama gushyira ibitekerezo hamwe; aho imbere yabo hagiye haba amazi y'inyange, ya Nili; bicaye ahantu h'umweru hasa neza. Ikintu kiranga abagore ni ukugira isuku cyane.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki n'impapuro mu kundi buryo kw'ibumoso akaba ari aravuga, imbere ye hivaye anadi bantu, imbere ye kandi hakaba hari amazi y'Inyange.

Hano hakaba hicaye umugore cyangwa se umukobwa ufite mudasobwa imbere ye, akaba ashobora kuba akorera ikigo cy'irembo, aho ubwo yatanga ibintu bigiye bitandukanye serivisi, zitandukanye, batanga ibyangombwa n'ibindi.

Abagabo babiri bafite za mudasobwa bambaye udupfukamunwa, hari n'uwambaye akantu mu matwi, hano rero ukaba udupfukamunwa, tukaba turinda ibintu, indwara nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuhumekero, izo mu muyaga no kurinda n'ivumbi.

Banki y'umujyi wa Kigali iri mu ibara ry'ubururu ku rugi imbere kandi hari ikigo k'irembo gifasha abantu kubona ibyangombwa bigiye bitandukanye n'ibyemezo bigiye bitandukanye nk'ibyemezo by'amavuko, ibyemezo by'uko utuye, ibyemezo by'uko utarashaka cya washatse.

Abantu abantu bagiye bicaye mu matsinda mu meza, bicaye ku ntebe barimo barabagira ibyo baganiraho, bigaragara ko ari urubyiruko harimo abambaye imipira y'imituku babiri, iy'umweru n'igiye itandukanye.

Uburyo bwifashishwa mu kuyungurura ibintu bijyanye n'itumanaho hifashishwa iminara, aho nk'ikigo gishobora kuza kigashinga umunara w'itumanaho cyangwa ufasha kujya kuri za murandasi ukubasha kuyungurura imiyoboro yabo.

Uburyo bwo gusakaza amashanyarazi mu baturage hirya no hino hakaba hifashishwa ibiti kikaba kiriho, igiti kikaba kiriho insinga nyinshi, hkaba harihoho n'itara rimurika nijoro kugira ngo abantu ba batagira ibibazo.

Haba hari icyapa cyerekana ko umuhanda imbere ukata, hakaba hari n'icyuma kifashishwa mu gusakaza amashanyarazi kiriho itara iyo bigeze nijoro kiraka, hirya kandi hakaba hari n'ibindi binyabiziga bibiri bigenda.

Ibyapa byo ku muhanda bigenda byerekana ibintu bigiye bitandukanye, harimo icyerekana ko gukata bitemewe kiriho akantu m'ibara ry'umutuku gaciyemo hagati hakaba n'ikindi cyapa kirikugaragaza umuhanda na nimero yacyo.

Ibi ngibi akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino, aho iki cyuma kiri hagati gifasha kuyungurura amashanyarazi ntajyane ingufu nyinshi cyangwa nkeya, kugira hatagira ibyangirika.

Ikingiki ni ibyuma byifashishwa mu gutwara amashanyarazi biyajyana mu ntera ndende, bimwe biyajyana mu yindi aho bishobora kwambukiranya intara, uturere kandi amashanyarazi akazagera ku baturage ameze neza.

Ubu ngubu rero ni uburyo bwifashishwa mu gutanga amashanyarazi afite ingufu, ku bigo bigiye bikomeye cyangwa kwambukiranya intera ndende, aho hejuru hari abagabo barimo barashyiraho imigozi neza.

Uburyo bwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu baturage aho iki cyuma cyangwa imashini ibasha kuyungurura amashanyarazi akagenda ameze neza atari ku muvuduko wo hejuru kandi atari no ku muvuduko wo hasi.

Ahangaha rero hakaba ari ku kigo nderabuzima, aho baba barateganyije intebe zo kwicaramo abantu bategereje cyangwa bameze nabi, aho izo ntebe ubona ni nzaza, zigezweho ko hari umuntu w'umugore uhagaze wambaye agapfukamunwa.

Umugabo wambaye umwenda w'ibara ry'umutuku n'umweru, akaba akora mu nkiko cyangwa akabari yarize amategeko, ahantu habereye imanza akaba agenda akumva ibyo bashinjwa akaba yaca urubanza.

Hano hakaba hari umucamanza, umushinjacyaha ndetse n'uregwa, aho n'uburanira na we arimo, aho bamwe bambaye imyenda y'umukara n'abagize urukiko bize amategeko, uwambaye umwenda w'iroza akaba ari ushinjwa ibyaha.

Uyu ni umugabo wirabura wo mu Rwanda yambaye umwenda ujya gusa umutuku n'umweru, akaba ari uw'abantu bakora mu nkiko, baba bashinja abantu, baba barize amategeko, umuntu akora ibyaha bagasoma mu itegeko uko biteganya bakamukatira.

Uyu nguyu akaba ari umugore wambaye ingofero y'umukara, amadarubindi, akaba yambaye umwenda usa mu ibara ry'umutuku hagati harimo umweru, akaba yarize ibijyanye n'amategeko bityo rero akaba akora mu nkiko. Aho aburanisha umuntu akaba yamukatira.

Aba ngaba akaba ari abagabo icumi bashakwaga, n'ubu bagishakwa, harimo abagiye baboneka bakoze Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, mu gihugu cy'u Rwanda, hasi hakaba hariho miliyoni eshanu z'amafaranga y'amadolari ku muntu wababona.

Itsinda ry'abantu bakora mu nkiko, aho baba baburanira bashinja banacana n'imanza, aho baba barize ibijyanye n'amategeko, aho umuntu aba yarakoze icyaha, hari umuburanira, hari umushinja, hari n'uca imanza y'uko byagenze.

Iyi ikaba ari gereza cyangwa se icyo twakita igororero ryo mu Karere ka Nyanza yo mu Ntara y'Amajyepfo, aho bajyanaiyo abantu bakoze ibyaha cyangwa bakekwaho ibyaha, kugira ngo baganirizwe batazajya bakora ibintu bigiye bitandukanye mu baturage bibi...

Abagabo bahagaze bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari kurahira kurahirira inshingano, imbere hari abacamanza cyangwa abantu barahiza, bakaba bagenda bababwira ibintu bakabisubiramo bitewe n'ibyo bari kurahira bavuga ko batazatenguha igihugu.

Umugabo wambaye umwenda w'umutuku n'umweru, yambaye ishati y'umweru akaba akora mu rukiko, akaba ari umucamanza, aho aba yarize amategeko, aho umuntu aba ashinjwa ibyaha runaka cyangwa akekwaho, basoma itegeko akaba yamukatira bitewe n'itegeko.

Abakozi bashinzwe kuzimyara umuriro, ahantu habaye inkongi y'umuriro, aho batabarira ku gihe, nimba habaye inkongi y'umuriro urabahamagara byihuse, bafite nimero cyangwa kode itishyurwa, urabahamagara bagahita baza bakazimya.

Hano hakaba hari abantu barimo baramanuka, hari umugore wambaye igitenge, hepfo ye hari undi mugabo uhetse igikapu mu mugongo, hakaba kandi hari undi mugabo ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, wambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi.

Uyu nguyu akaba ari umukobwa cyangwa se umugore, akaba arimo araseka yambaye amaherena, ari guseka afite indangururamajwi mu ntoki, akaba yambaye n'isaha ku kuboko kw'iburyo kwe...

Hano hakaba ari abantu batatu, bari bari kwiyamamariza kuyobora ibintu runaka, aho bari bashyizeho n'amashyaka yabo, ngo babatore, ubwo umuturage yarazaga akareba uwo ashaka, akaba ari we atora.

Umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda, Paul KAGAME, ari kumwe n'umugore we, Jeannette KAGAME, aho bose bambaye amadarubindi, bakaba mbaye neza, bambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru bambaye ikanzu ikozwe mu ibitenge.

Umwaka ushize bibiri na makumyabiri na kane ubwo mu gihugu cy'u Rwanda harimo kwamamazwa umukuru w'igihugu, hari hari kwiyamamaza abantu batatu, nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame, uwitwa Frank Habineza na Mpayimana philipe, aba ngaba bari kwamamaza uwo bita Frank Habineza.

Uyu akaba ari umugore wapfuye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, azize Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye muri uwo mwaka, bakaba bamwita Uwiriningiyimana Agathe, akaba amanitse amaboko, akaba kandi ari intwari yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Mu mwaka ushize ubwo hari hari amatora no kwiyamamaza mu gihugu cyacu cy'u rwanda bamwita frank habineza nawe yari arimo yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu wemewe n'ishyaka rye ubwo nyuma baje gutora Paul Kagame n'ishyaka FPR inkotanyi.

Ubwo umwaka ushize mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, mu gihugu cy'u Rwanda hari harimo kwamamazwa abakuru b'ushaka kuyobora umukuru w'igihugu, aba ni abagore n'abakecuru n'abagabo inyuma, bari barimo baramamaza ishyaka rya FPR inkotanyi.

Uwo mugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru akaba yitwa Habyarimana Juvenal, akaba yari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda guhera mu myaka ya za mirongo irindwi na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo yapfiraga mu mpanuka y'indege.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, aho bikorera umucanga wuzuye amatoni, bakikorera amabuye, bakimura abantu, abacuruzi barabatuma...

Ikingiki akaba ari ikinyabiziga cyanditseho ko gikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba gifite ibiziga bitatu kikaba gitwara ibintu bigiye biremereye kwimura abantu, gutwara imifuka iremereye itandukanye kikaba gikoreshwa mu bucuruzi inyuma kandi hari n'ibinyabiziga bitwara abantu.

Ikinyabiziga gitwara ibintu biremereye, aho kikorera amabati, kikikorera ibintu bijyanye n'ubwubatsi, kikimura abantu, kigatwara imifuka igiye iremereye, aho kandi hano hino hari umwanya uhari wo kugendamo abanyamaguru.

Hano hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibitwara imizigo, ibitwara abantu n'ibindi byo kugendamo. Akaba hari n'umugore uri gucuruza ibisheke, hakaba rero hari ikinyabiziga cy'amapine abiri cyangwa cy'ibiziga bitatu, kikaba kikoreye inyamaswa z'intama.

Ikinyabiziga cyo mu muhanda cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye; nk'imifuka kwimura abantu, nko mu mazu y'ubucuruzi cyane cyane bakunda kubatuma, bikore imifuka y'imiceri, imifuka ya kawunga, imifuka ya sima.

Ibinyabiziga aho bitwaye abagenzi biri kuzamuka bibiri, inyuma hakaba hari ikindi kinyabiziga nacyo cy'ibiziga bine na cyo kiri kuzamuka, hirya hakaba hagenewe ibinyabiziga bimanuka, gusa mubusanzwe mu Rwanda iburyo ni ukuzamuka ibumoso ni ukumanuka.

Ni ibinyabiziga bibiri byifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, aho iki ngiki kibanza hano kegereye ahantu hacibwaho n'abanyamaguru, kano kayira kaba kagendwamo n'abanyamaguru, ibinyabiziga nabyo bikaba bigendera hejuru.

Iki ngiki n'ikinyabiziga gitwara abantu benshi nka makumyabiri n'umunani cyangwa mirongo itatu na babiri kikaba kibajyana ahantu harehare kandi ku giciro gike kandi mu mwanya muto izingizi ziboneka mu magare niho umuntu agenda agakatisha kayibona.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga kifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, aho gishobora gutwara amazi menshi cyane, kigatwara amata, kigatwara n'ibindi bintu bigenda bisukika biremereye.

Muri gare y'umujyi wa kigali iherereye mu karere ka Nyarugenge, aho ifasha abantu mu koroshya ingendo ku giciro gito kuko haba harimo ibinyabiziga binini bitwara abantu benshi kandi ku giciro gito kandi ku ntera ndende cyane.

Ikinyabiziga k'ibiziga bine, kikaba gifite ibara ry'umuhondo mu mpande, kikaba gifite uburenganzira bwo gutwara abantu, inyuma kandi hari ibindi binyabiziga bitatu, naho hirya hari ahandi hari umunyamaguru, uri kugenda mu kanya kahariwe abanyamaguru.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu muhanda, kikaba gishinzwe kwikorera ibintu biremereye nk'umucanga, amabuye, kwimura abantu, imifuka y'imiceri, imifuka y'amakara ndetse n'ibindi bintu bigiye biremereye umuntu atakikorera.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, aho abacuruzi bakunda kucyifashisha bagituma nk'imifuka y'umuceri, imifuka ya kangawunga, imifuka y'ibishyimbo ndetse n'ibindi bintu biremereye by'ibicuruzwa.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga cyo mu muhanda cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, harimo nk'umucanga cyangwa umufuka w'amabuye, kandi icyo ngicyo wakifashisha mu kwikorera ibindi bintu bigiye biremereye, nk'indi mifuka, imifuka ya sima n'iyindi.

Hano harimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye, aho kimwe bacyita igare, kiriya kindi bakaba bacyita ikinyabiziga cy'amapine abiri moto, hano rero byose bikaba byikoreye abantu, kimwe n'uko bambaye ibintu bibapfuka umutwe by'umutuku.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bitatu, kirimo kiragenda kigana ruguru, kikaba kikorera ibintu bigiye biremereye, harimo imifuka y'imiceri, imifuka ya kawunga, imifuka y'ibishyimbo, hirya yaho hakaba hari ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu.

Ikinyabiziga cy'igare kikoreye umufuka urimo ibintu biremereye, hirya hari ikindi kinyabiziga cy'amapine atatu, kikaba kikorera ibintu biremereye nk'imifuka myinshi, urabona igare ryikoreye umufuka umwe, cyo gishobora kwikora nk'imifuka icumi cyangwa irenga.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu kizwi nka moto kikaba kirimo kiramanuka hari ikindi kiri kuzamuka ari kugendamo n'abanyamaguru muri uwo muhanda umwe n'undi mutoya usa nkaho uherereye mu mujyi wa kigali.

Mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hahariwe abanyamaguru kugira ngo bajye bajyayo baruhuke, urabona hari intebe igihe hari nk'izuba bakicara bakaruhuka bagafata umuyaga, haba hari na interineti bakajya kuri murandasi.

Akaba ari icyapa cyanditseho makumyabiri kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyerekana ko aho hantu ibinyabiziga byose bigomba gukoresha umuvuduko wa makumyabiri ko hatemerewe kwiruka. Ahantu ntabwo haba harambuye cyangwa hakaba hariho ahantu hahagarara ibinyabiziga.

Icyapa cy'uwo muhanda, kikaba cyerekana umuhanda na numero yacyo, aho ikingiki, cyanditseho ka na ga, ijana na mirongo inani n'icyenda, ubwo uwo muhanda ni uw'ijana na mirongo inani n'icyenda, mu gihe hari nk'umuntu uje kugusura cyangwa ari nko kurangisha wamubwira icyapa agahita ahamenya.

Icyapa kifashishwa mu muhanda, aho cyerekana umuvuduko ibinyabiziga bigomba kugenderaho, bishobora kuba uwo umuhanda warangiritse cyangwa umeze ukundi, icyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, kikaba cyereka ibinyabiziga cyangwa undi muntu ari wese ko ahantu hazenguruka, hari ahantu hazenguruka nta kwiruka.

Kimwe kikaba ari icyapa cyo mu muhanda, kiba cyaka amabara, kiba cyaka n'amasegonda kiba cyerekana abanyamaguru kugenda hano cyari cyerekanye cyangwa ibinyabiziga kikabyereka guhagarara.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyo mu muhanda kiba cyerekana ko aho hantu hakata, kikaba kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara aho baba bereka ibinyabiziga cyangwa undi muntu w'umunyamaguru, bamwereka ko aho ahantu hari ikoni rimeze nabi.

Hano hakaba hari umuhanda, ahantu hagendwa n'abanyamaguru, ahandi hepfo hakaba hagendwa n'ibinyabiziga, umuhanda usa nk'uwatangiye gupfa wirekamo ibiziba, hano hakaba hari akazu gahagaragaramo abanyamaguru bategereje ibinyabiziga.

Icyuma gikoreshwa mu muhanda n'abashinzwe umutekano aho haba hari umuvuduko wabugenewe umuntu atagomba kurenza iyo uwurengeje kino cyuma kiba kiri mu muhanda kiragufotora bakagira amafaranga bakwaka.

Ikinyabiziga cy'igare kirimo kirava ahantu haba haparikwa kirimo cyinjira mu muhanda nyabagendwa, hirya kandi hari mu kuboko kw'iburyo hari ahantu hahariwe kugenda abanyamaguru bonyine, hakurya iburyo bw'amaso kandi haragenda bindi binyatende.